Aho abaturage bateraniye bagira ngo bakire amabwiriza cyangwa se bakire abayobozi baje kubasura, urugero nk'akarere runaka kasuwe n'abayobozi, abaturage bo mu mudugudu basuwe n'abayobozi baje kubaha gahunda nziza ya leta.

Abantu bari mu nyubako rusange ihuriramo abantu benshi iherereye muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aba bantu bakaba bicaye bisa nkaho hari ibintu bari gukurikirana imbere ndetse bamwe bari no kubikamera bafata amashusho. Murakoze.

Abantu bagaragara ko bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa runaka, bakurikiye kandi bateze amatwi ibyo bari kubwira ndetse biteguye kubyumva, bameze neza kandi bigaragara ko buri muntu afite icyo ahagarariye kuko bagiye bambaye ibibaranga murakoze.

Abaturage bari mu nteko rusange, mu Mudugudu cyangwa se mu Kagari, bitabiriye baje kubwirwa amahame cyangwa se ibintu ngenderwaho, imbere yabo hari umuyobozi ndetse n'ushinzwe umutekano ari kubasobanurira inyuma hicaye abayobozi, murakoze.

Urupapuro rusohorwa na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, banditseho itangazo rijyanye n'iminsi y'ikiruhuko ya noheli n'ubunani. Iyo minsi y'ikiruhuko ikaba igaragaragaza iminsi yo gukora n'iminsi yo kuruhuka yakonje mukoze.

Igisambu kinini ahantu hadatuwe n'abantu ariko hirya gatoya bashyizemo umunara w'itumanaho, umunara uzitije senyenge n'ibyuma ndetse ukaba iruhande rwawo hari n'ifoto ijyana amashanyarazi murakoze.

Inzu y'ubucuruzi iriho n'icyapa cyo kwamamaza, iruhande rwayo hari ipoto ririho insinga nyinshi z'amashanyarazi, ari kujya mu baturage. Hariho n'udusanduku, ruguru hari iyindi nzu, imeze nk' iy'ubuyobozi, ruguru yaho hari umunara, murakoze.

Urugomero rw'amashanyarazi cyangwa se ahantu amashanyarazi ahurira, aho biba bikubiye byose ari amashanyarazi ndetse n'insinga aho zikura umuriro ziwukwirakwizwa mu baturage no mu bindi bigo bitandukanye, ahantu heza harimo amashanyarazi murakoze.

Ipironi iteyeho umuyoboro w'amashanyarazi n'ibyuma biba byubatse ukuntu gutandukanye bikagera hejuru amashanyarazi insinga zikagenda zinyuramo zifite utuntu zigenda zicaho kugira ngo zigere aho zikwiye kugera kandi zibashe gukwirakwiza umuriro mu baturage ndetse no mu bindi bigo bitandukanye.

Inyubako nziza ijyanye n'igihe igaragaza igihe tugezemo nziza pe! Ndetse yujuje ibisabwa, ishobora kuba ari nk'inyubako ya Leta cyangwa se inyubako y'umuntu, Apatimenti, cyangwa se inyubako ihuriramo n'abantu benshi. Ikodeshwa nubwo yakodeshwa n'abandi bantu.

Imfungwa n'abagororwa basa nkaho bavuye mu mirimo y'amaboko, bakaba barimo gusubira aho bafungiye, barimo bagenda bambaye imyenda yabugenewe bafite n'ibikoresho bakoresheje, bigaragara ko benda kuhagera inzu ibari iruhande ariyo batashyemo murakoze.

Abayobozi batandukanye bahuriye mu nama harimo aba majoro ndetse n'abandi bayobozi, bakaba barimo gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babashe gutanga raporo y'ibyakozwe mu nama cyangwa se mu mwiherero bari bagiyemo.

Inyangamugayo iri kubaza abaturage ku bigendanye n'iby'inkiko gacaca. Abaturage bari gutera intoki, bagaragaza ko bashaka gutanga ubuhamya bw'ibyabaye nk'uko byagiye biba mu gihe inkiko gacaca zabaga. Abaturage bari gutera intoki ngo batange ubuhamya.

Inyubako nziza imbere yaho iparitseho n'imodoka harimo n'iza polisi ndetse n'umupolisi uri kuhagenda iruhande; imodoka zikaba ziparitse ku mbuga nziza iriho amapave inzu bigaraga ko wagirango ngo ikorerwamo n'abapolisi cyangwa se n'icyicaro cya polisi runaka.

Abagore bari kurahirira inshingano runaka nko kwinjira mu buyobozi, nk'ibyo bagiye gukora mu kazi, bagaragariza abaturage n'ubuyobozi ko bazabikora neza kandi byujuje ibisabwa, nta muntu barenganyije, bakabikora neza nk'uko itegeko rya leta ribivuga.

Imodoka ziri kwerekera mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda ziri kujya imbere, bigaragara ko imbere habaye uruhurirane rw'imodoka nyinshi zikananirwa kugenda, zikagenda gake gake kugira ngo zibashe kubona inzira, bigaragara ko izo imbere zitakigenda ahubwo zihagaze.